Umuyobozi uri mu cyumba cy'inama, arimo atanga ibiganiro, yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari ameza ateretseho amazi ndetse n'akarangururamajwi n'urubaho rwanditsweho ibyirwa.

Abaturage bari kumva ibiganiro umuyobozi ubahagaze imbere afashe indangururamajwi mu ntoki ari gutanga igitekerezo ndetse na bagenzi be bamukurikiye bishimye bari guseka.

Itsinda ry'abaririmbyi n'ababyinnyi bakoma amashyi, abandi baririmba, abandi bavuza ingoma ndetse n'ingoma, bambaye imyenda y'umuco baririmba indirimbo gakondo z'umuco wa Kinyarwanda.

ifoto y'abantu babiri bogoshe mu buryo bw'amasunzu, bambaye umwitero, umwe arahindukiye undi ari kugaragara mu bitugu.

Abageni babiri harimo umusore muremure ufite inkoni wambaye imyenda yera ndetse n'urunigi mu ijosi ari kumwe n'umukobwa wambaye ikamba mu mutwe yambaye ikanzu yera y'umweru.

Umukozi w'ikigo gishinzwe ingufu z'amashanyarazi, wambaye imyambaro y'ubwirinzi harimo: ingofero, gazo mu ntoki ndetse n'imyambaro y'ubwirinzi, bari gufungura kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutanga imbaraga z'amashanyarazi.

Umuyoboro w'ingufu z'amashanyarazi ndetse n'amapironi maremare, insinga zifashishwa, n'inyubako zitandukanye, hariho n'ibyatsi bizikikije mu mabara y'umutuku.

Imashini zifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi ndetse n'umuntu ushinzwe gukurikirana imikorere n'imikoreshereze y'ibyo bikoresho bitanga imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ibikorwa remezo birimo imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibiti byabigenewe mu gutambutsa cyangwa se umuyoboro w'insinga z'amashanyarazi, inyubako z'abaturage ndetse n'ikibuga.

Umukozi ushinzwe ibikorwa by'amashanyarazi uhagaze hejuru ku rwego, ureba muri mubazi, yambaye ipantaro itukura ndetse n'ikote ry'umukara, yegamye ku nzu ifite amadirishya y'icyatsi isize irangi ry'umuhondo.

Ni inyubako cyangwa se igikorwa remezo cyubatswe mu buryo bugeretse, imbere yacyo hari ubusitani bwiza burimo indabyo, hashinmo idarapo ry'Igihugu ndetse harimo amatara atanga urumuri.

Abantu benshi bambaye imyenda itandukanye mu mabara y'umweru n'umutuku, umukara, bari ku iteme rirerire rizwi ku izina rya Kanopi, bari kugera, bari bari kugenda, bava hamwe bajya ahandi.

Ibikorwa remezo bya Leta, birimo inyubako z'ibitaro, byubatse ahantu hitaruye abaturage, hakurya hari imisozi iriho amashyamba, ndetse hari n'ubusitani burimo indabyo nziza.

Igikorwa remezo kizwi ku izina ry'iteme, cyubatse neza, mu buryo bugezweho, gifashwe n'ibyuma biri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hafi yawo hari ibiti byinshi ndetse n'umugezi utemba.

Igikorwa remezo kizwi ku izina ry'iteme, cyubatse ahantu hari mu misozi, cyubakishijwe ibyuma, hariho abaturage bari kugenda, imisozi iriho amatera y'indinganire, n'imyaka ihinzeho n'amashyamba.

Igikorwa remezo kizwi ku izina ry'iteme, cyubatse muburyo bw'ikoranabuhanga cyubakishijwe ibyuma, bisi icyatsi ndetse n'ikinyabiziga kizwi ku izina ry'imodoka, abaturage bari kuharebera ndetse haciye n'umugezi.

Inyubako ya Leta iri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwayo hari ikigega, yubatse neza, inyuma yaho hari ibiti birebire ndetse n'ibihuru, handitseho amagambo atandukanye.

Abayobozi batandukanye, harimo abashinzwe umutekano bazwi ku izina rya polisi, abashinzwe imfungwa n'abagororwa, bicaye mu nzu nini mu cyumba cy'inama, barikumva ibiganiro by'abayobozi.

Abaturage bicaye mu mahema, bambaye imyenda itandukanye mu mabara y'umweru n'umukara, bafite amazi imbere yabo hateretse ameza, bari kumva ibiganiro byateguwe.

Umuyobozi wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, amarinete, ari gutanga ibiganiro, inyuma ye hari icyapa cyerekana kwibuka ndetse inyuma ye hari undi muntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abayobozi bari ahantu mu kibuga, bambaye imyenda itandukanye, harimo n'ingofero, inyuma yabo hari urutoki cyangwa se umurima uhinzemo insina, haparitse imodoka y'umukara.

Ibikorwa remezo birimo inyubako za Leta ndetse n'igicumbi cy'itorero, cyanditseho amagambo agira ati'' itorero ry'Umudugudu wa Gacumbezi ndetse kirazira, indangagaciro z'umunyarwanda.''

Abaturage bicaye munsi y'amahema, mu ntebe zisa umweru n'umukara, bambaye imyenda itandukanye, bakurikiye ibiganiro biri gutangwa ndetse n'amatara agaragaza umucyo aho bicaye.

Inteko y'abaturage, bateraniye hamwe bari kumwe n'umuyobozi wambaye ikote ritukura n'ipantaro y'umukara, bicaye bamutegeye amatwi bari ahantu mu kibuga batuje ndetse bahuriza hamwe ibitekerezo.

Inyubako iri mu rugo ndetse iri hafi y'umuhanda, hari icyapa gishinze iruhande rw'umuhanda, kiranga amerekezo, cyanditseho imibare kiri mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiriho inyubako igeretse, yubatswe ndetse isize amarangi y'umweru, iri mu gipangu, impande za ho hari ibiti birebire byiza by'indabyo ndetse na nimero za telefone kuri icyo cyapa.

Itsinda rigari ry'abaturage bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umuganda, aho bamwe bari gutema ibyatsi biri mu muhanda, abandi bakaba bari guharura ibyatsi kugira ngo inzira ibe nyabagendwa.

Aba ni abahinzi bari mu murima bagiye guhinga ni benshi, hari bagenzi babo bari mu murima bahinga ndetse n'abandi bagenzi babo bari inyuma, bigaragara neza ko abari guhinga barananirwa hari bagenzi babo bari guhita bakira unaniwe bagafatanya guhinga.

Abaturage bari ahantu mu kibuga, bafite amasuka bari guhinga, harimo abashinzwe umutekano bazwi ku izina rya daso, polisi ndetse n'ingabo z'igihugu n'urubyiruko ruri mu gikorwa cy'umuganda.

Umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutekano uzwi ku izina rya Polisi, ari gutanga ibiganiro mu baturage, yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara, inyuma ye hari inzu yubatse isize amarangi y'ubururu.

Umugore uri gutanga ibiganiro mu ntoki ze afitemo indangururamajwi ari kumwe n'umugabo umutwikiriye umutaka baratanga ibiganiro mu baturage ndetse bateraniye mu kibuga.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, harimo abambaye imyenda y'umukara n'abambaye imyenda y'umuhondo bari mu kibuga, ikibuga kirimo amabara atandukanye y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Abakinnyi b'umukino w'umupira wa maguru bari mukibuga, bambaye imyenda itandukanye, mumabara y'ubururu, icyatsi gihishije ndetse n'icyatsi, imbere yabo hari umupira bari gukinira ahantu heza.

Abakinnyi b'umukino w'umupira w'amaguru, bambaye imyenda bakina bambaye, bari gusohoka ikibuga baganira, harimo abambaye imipira yera ndetse n'imikara n'inkweto zifunze zabigenewe.

Abakinnyi bari mukibuga, bakina umupira wamaguru, bambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu n'icyatsi, bari mukibuga inyuma yabo hari igipangu cyubatse ndetse n'ibiti birebire.

Umuhungu wambaye umupira wamaboko magufi w'umweru, umudari mu ijosi, ingofero , afashe ifoke mu ntoki iriho umuriro, arasamye ashaka kuwumira.

Abana babiri b'abakobwa bari mu kibuga barakina umupira w'amaguru, bambaye imyenda itandukanye mu mabara y'ubururu, icyatsi, umukara ndetse n'umweru, inyuma yabo hahinze ibiti birebire bikoze ishyamba.